Ikiyaga ndetse ikiyaga gikikijwe n'imisozi aho harimo abantu barimo koga ndetse abantu batari bake hakaba harimo n'ubwato bwato bwa moteri ubwo bwato bukaba burimo abantu nabwo ndetse abantu bambaye n'amajiri.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda ya kinyarwanda tumenyerewe nk'imyenda y'intore, akaba afite icumu mu kuboko kw'iburyo ndetse n'ingabo mu kuboko kw'ibumoso, akaba yambaye imisatsi imwe y'intore tuzi, akaba anakenyeye imikenyero intore zisanzwe zifashisha mu guhamiriza.

Umugabo ugaragara nk'uwo mu bihe bya kera, bigaragazwa n'imyambaro yambaye yo mu bihe bya kera ndetse ninyogosho yogoshe, aho yogoshe amasunzu bizwi ko yogoshwaga n'abantu bo mu bihe bya kera, mu myaka ishize.

Umuhanda ukirimo kubakwa ariko urimo kugendwamo n'imodoka n'ibinyabiziga bitandukanye, ndetse wegereye n'ikibanza kirunzemo imicanga igiye itandukanye ndetse n'amabuye, hakaba hanaturiye amazu y'abaturage ndetse n'ishyamba iruhande rwabyo, ndetse n'andi masambu arimo y'ibihingwa atubatsemo.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se umuhanda w'umukara aho tumenyereyeko ibinyabiziga bigendera usa nk'aho ukirimo kubakwa ariko utararangira neza ,utararangira gukorwa neza hakaba hari iruhande rwaho hakaba hari amabuye aharunze bisa nk'aho bashaka kubakisha umuyoboro w'amazi n'akayira k'abanyamaguru.

Umugabo uri ku igare yambaye bote, ahetse imifuka ibiri irimo ibigaragara ni ibirayi. Ari mu muhanda urimo imodoka ya taxi itwara abagenzi ndetse impande zabo, hakikijwe n'imirima y'intoki izitijwe uruzitiro rw'amabuye, hari n'aho batangiye kubakisha amatafari ahiye.

Barimo kurimbura umuhanda hari imashini irimo kuririmbira umuhanda wari usanzwe uhari hari n'abantu bafite ibitiyo bigaragara ko bari mu kazi bari kugenda bakuraho iby'imashini yahasize, ndetse hari n'imodoka zindi ziri kugenda mu muhanda, n'ibindi binyabiziga bitandukanye nka moto birimo kugenda mu muhanda wundi utari uwo nguwo barimo gukora.

Umugabo ndetse umugabo wicaye mu kinyabiziga tuzi nk'imodoka, akaba yambaye ikote ry'umukara yambaye umukandara w'imodoka, afashe kuri diregisiyo y'imodoka asa n'utwaye icyo kinyabiziga.

Abakinnyi b'umukino wa basikete w'abakobwa, ndetse umwe yambaye imyenda, impuzankano y'umukino yanditseho Rwanda, ifite nimero y'umunani isa ubururu, akaba afite n'umupira mu ntoki ze, undi akaba yambaye impuzankano z'umweru ziriho nimero makumyabiri.

Ahantu habera imyidagaduro hakaba hagaragara ari nijoro mu bihuru bisa n'ubururu, hakikijwe n'ibiti hari amatara arimo kwaka, hari ibigaragara nk'imyicundo y'abana bakiniraho, hari idarapo ndetse hari n'amazi menshi ibyo dusanzwe twita urwogero rusange.